Amashuri meza yubatse ku buryo bwiza, afite ibikorwa remezo nk'ibibuga byo gukiniraho abanyeshuri bidagadura, ndetse n'ubusitani bwiza buteyemo ibyatsi byiza n'indabo nziza zibereye ijisho.

Ubukerarugendo mu Rwanda ni ishami ryiza ryinjiriza igihugu. Abasore n'inkumi babyiga no mu mashuri, barakoresha indebakure za ya kizungu kugira ngo bamenye neza ibiri mu ishamba hirya y'aho bahagaze.

Guteza imbere amashuri y'imyuga byarumvikanye cyane mu Rwanda. Abasore biga neza amashuri y'imyuga bari gukanika akamodoka k'ibara ry'icyatsi, cyane ko babyize bidasabye kuja mu mahanga.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda atezwa imbere muri rusange, abakobwa n'abahungu ikigero cyose waba uriho iryo shuri waryigamo ntawagusubiza inyuma.

Guteza imbere imyuga, ubugeni n'ubukorikori nko kudoda, gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ndetse no gufasha abakobwa n'abagore muri rusange nabyo biri mu byongereye iterambere ry'igihugu cyacu cyane kuba batagiheranwa n'agahinda n'ubwigunge bw'ibyababayeho.

Abagore mu mirimo iteza imbere ubukungu bw'igihugu bari imbere cyane, umugore wogosha ntiyabura abakiriya, kandi nabyo bifatwa mu rwego rwo kwihangira imirimo ndetse no kurinda ubukene, ibikoresho bya salo kubera iterambere babibona byoroshye.

Urwego rw'ubuvuzi rwateye imbere mu Rwanda. Abaganga ndetse n'abanyeshuri bimenyereza umwuga biga hifashishijwe imfashanyigisho ku buryo iyo bageze mu akazi, ubufasha bwose wabakeneraho babuguha bitagoranye.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ni ingenzi cyane urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bayigamo bambaye impuzankano yabo bafite ibikoresho byo kwimenyerezaho nta kabuza iyo basohotse bavama abanyamwuga beza.

Mu mazu yita ku bwiza si imisatsi gusa no kogosha bikorerwamo. Gukora inzara nko kuzica neza no kuzisiga amabara na byo ni akazi gatunga abagakora.

Umwana w'umukobwa, ufashe mikorofone cyangwa se indangururamajwi, uri gusobanurira abamuteze amatwi imikoreshereze y’amashanyarazi, ndetse n’insinga z’amabara atandukanye, zimuri imbere.

Uburezi mu Rwanda bumaze gutera imbere abakobwa, n'abahungu bicarana mu ishuri bakigira hamwe. Rifite ibikoresho nk'ikibaho, intebe zimeze neza, ndetse n'utumeza bandikiraho.

Amashuri ga tekinike gakwiriye hose, ubu ibyari uburezi bw'imyaka cumi n'ibiri byoroheje ubujiji mu Rwanda, aga amashuri aho gaziye abakobwa n'abahungu bagitabiriye, ubu rwose bavamo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko rwiza runejeje.

Icumba gitunganijwe neza c'ishuri kirimo mudasobwa abanyeshuri abakobwa, abahungu bose bafite uburenganzira bungana bwo kwicara bakiga bakazikoresha bakajijuka mu buryo bwiza.

Abanyeshuri barangije amasomo gabo bakambara imyenda zabo myiza, ibyishimo birabasaba. Ababyeyi babo, inshuti bakaza kubashyigikira mu gikorwa co kwishimira amasomo barangije.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ni amashuri yumvikanye neza mu Rwanda ikigero cose waba uriho wayigamo abakobwa n'abahungu bambaye imyenda ibaranga bari kwiga gukora icuma c'ikoranabuhanga.

Icumba giteguye neza mo ameza n'intebe ,cakwifashishwa hakorwa inama, ndetse n'abanyeshuri bacigiramo yemwe n'abasenga bagisengeramo ku buryo babasha kugera ku ntego yabo y'ico bashaka gukora.

Amashuri y'imyuga yaritabiriwe cyane, mu rwanda ku buryo no mu gukora mu mutwe cyangwa se kogosha imisatsi abakobwa n'abahungu bose babyitabira, bakabyiga mu rwego rwo kugira ngo babimenye, bizababere isoko yo kubona amafaranga ababeshaho.

Imyuga n'ubukorikori ni inzira imwe yo gufasha urubyiruko kwirinda ubushomeri. Gusudira na byo ni umwuga ubarirwa mu mwuga n'ubukorikori, ababikora bagira indorerwamo zirinda amaso yabo n'imyambaro yihariye.